Imiteja, puwavuro, intoryi, indimu, sereri, bigaragara ni isoko ricururizwamo ibiribwa.

Abakozi mu murima wibirayi, barikura ibirayi byeze, ubwoko bwabyo aba ari nyiramweru, byera mu Ruhengeri.

Ubworozi bw'inkoko bugezweho, ni inkoko za kijyambere, zifite ibikoresho byo kuzigaburiramo, n'ibyo kuziheramo amazi.